Abagabo bicaye mu ntebe ni beza baratandukanye, harimo nabagore barunamye barikuri muri terefone abandi barahagaze afite urupapuro mu ntoki bari kureba neza barasa neza.

Abantu benshi bicaye, babiri barahagaze, bambaye neza, ikote ry'umukara, imyenda y'ubururu, icuye, umugabo umwe arogoshe, barasa neza.

Abagabo babiri n'umukobwa wicaye iruhande rwabo, barareba neza, bicaye mu ntebe nziza, umupira w'umuhondo, ishati, umukobwa ateza igitambaro, harimo umupira wambaye udustali tw'umweru n'umukara.

Mu nzu harimo abantu, bambaye neza, harimo abari kwigisha, bameze neza, bambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hari ameza, hateretse amacupa y'amazi, baraberewe, bameze neza.

Abantu batatu babiri baricaye, umwe arahagaze yambaye neza ishati, ipantaro, umwe ntagaragara neza hari icyapa, harimo ibara ry'umuhondo, icyatsi, ubururu ni heza handitse Rwanda haraberewe.

Abantu baricaye barunamye bambaye neza imipira y'imweru, barasa neza umukobwa yunamye hejuru yabo baraberewe.

Abantu benshi bicaye mu byatsi b'ingeri zose, barasa neza, baraberewe, umutuku, umweru, bambaye neza, hari ibiti biteye ni heza.

Inzu nziza, yubatse neza ni etaje isakaye neza hahagaze abantu barasa neza ni ingeri zitandukanye, amakote, amashati, amakanzu, ni beza barashimishije.

Bicaye abantu benshi mu ntebe zitandukanye, amabara y'umweru n'umukara, harimo ingeri zitandukanye abagore, abakobwa, abagabo bubitse imitwe bari kureba muri telefone, abandi barareba imbere ni beza.

Abantu benshi bicaye, abandi barahagaze, barasa neza, hameze neza, hateye ibyatsi, bambaye imyenda itandukanye mu ngeri zose, harashimishije, haratuje.

Abantu babiri baricaye, bambaye neza, barasa neza, imbere yabo hari ameza hariho mashini, mikoro, ameza atukura, hari ibara ry'icyatsi ni beza.

Abantu benshi ingeri zitandukanye bambaye neza, abagabo, abagore, baraberewe, bicaye neza, barishimye, ni heza, hameze neza, haratuje.

baricaye mucyumba cy'inama ni benshishi harimo umukobwa yambaye ishati itukura yikishijejweri yambaye lnet iruhande rwe harumugabo yambaye ishati yubururu hari undi wambaye umuhondo inyuma ye hari abandi imbere yabo hari ameza hateretseho amazi nibeeza Bari bicaye mu cyumba cy'inama, ni benshi harimo umukobwa yambaye ishati itukura , yisukishije inweri, yambaye lineti, iruhande rwe hari umugambo yambaye ishati y'ubururu hari n'undi wambaye umuhondo, inyuma ye hari abandi, imbere yabo hari ameza hateretseho amazing, ni beza.

Hicaye abantu benshi b'ingeri zose: abagore, abakobwa n'abagabo. Bambaye neza, umwe afite telefone mu ntoki, arunamye, barasa neza.

Bicaye neza, ni benshi, ingeri zitandukanye, abagabo, abagore, imbere yabo hari ameza, hariho igitambaro, bari mu nzu, barasa neza, baraberewe.

Abantu benshi baricaye, barasa neza, bameze neza, abagore, abagabo, imbere hari ameza, hariho igitambaro, hariho mashini, amazi, ni heza.

Abantu benshi bicaye b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo abakobwa, imbere yabo hari abagabo batanu, bane bageretse akaguru ku kandi, undi nta kaguru ageretse, bicaye neza, barasa neza.

Abantu beza batanu, baricaye barasa neza, bambaye neza, inyuma ye hari idarapo rirasa neza, ubururu, umuhondo, icyatsi haraberewe ni heza,

Harimo abantu basa neza bambaye neza, ni benshi barahagaze abandi baricaye, harimo kamera barimo kubafotora, imbere yabo ku meza hateretse amazi, harimo ibara ritukura mu ntebe bicayemo, hari ibara ry'icyatsi ryicuye barasa neza.

Abantu babiri bicaye umugore n'umugabo bambaye imyenda myiza baracyeye, imbere yabo hari ameza, iruhande rwabo hari amazi, bari kureba ibyo bari kwandika bari kwitegereza barakeye.

Ku ifoto yacu turahabona ibiganza bibiri kimwe gifashe muri murandasi ikindi gicigatiye amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amanyamerika yifashishwa mu kugura icyo wifuza icyo aricyo cyose gihwanye n'ayo mafaranga.

Hari abantu benshi bicaye, hari umukobwa uhagaze ufite mikoro arimo kubaganiriza, barimo kumwitegereza, bambaye neza, baraberewe, baratuje.

Abantu benshi baricaye ni ingeri zose: abagore, abakobwa, abagabo, abasore harimo amajerekani, igitiyo, barasa neza.

Abantu benshi bicaye, barareba imbere bose, umugabo wambaye karuvati, ikote ry'ubururu, yifashe neza, imbere ye hateretse icupa rya mazi, ni beza baraberewe.

Abantu benshi bicaye batandukanye, abagore, abagabo imbere yabo hateretse ameza hariho mashine bari kureba imbere barasa neza.

Abantu benshi baricaye mu cyumba cy'inama, mbere yabo hari abari kubaganiriza bambaye neza, harimo amabara atandukanye umukara, umutuku, ubururu, bambaye amakote, bamwe bari kurebana abandi bari kureba imbere, barasa neza.

Abantu benshi baricaye ni ingeri zose abagore, abakobwa, abagabo bambaye neza imbere yabo hari ameza ariho igitambaro ateretseho amazi, hahagaze umugabo ufite mikoro mu ntoki, inyuma hari ikigega cy'amazi ni heza.

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hari ameza maremare, hariho igitambaro cy'umweru n'umukara, bambaye neza imyenda itandukanye, harimo amatara, bameze neza.

Icyumba cy'inama harimo abantu batandatu, imbere yabo hari ameza, harimo umukobwa wisukishije inweli zireba inyuma, hari umugabo wunamye, bose barunamye, harimo abari kwandika, hari uhagaze ari kubigisha harasa neza harakeye.

Abantu benshi barahagaze barasa neza, imbere yabo hari ameza, hariho igitambaro cy'umweru, hariho amacupa, bambaye neza, baraberewe.

Abantu batatu baricaye baranezerewe, imbere yabo hari ameza, hateretseho mashini, amacupa y'amazi, ni beza bambaye neza barishimye.

Abantu benshi bicaye, abagore, abagabo barasa neza, bambaye neza, imyenda itandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ni heza.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hateretse ameza hariho ibitambaro by'umuhondo, hateretseho amazi, hateretseho na ji, harimo abantu benshi batandukanye, bambaye neza, baraberewe.

Abantu benshi bicaye b'ingeri zose, abagore, abagabo, bicaye mu ntebe, imbere yabo hateretse mashini, ari ku meza, bararebana, ni beza.

Abakobwa n'umugabo bicaye munzu bari mu ntebe, imbere yabo hari ameza, hariho ibitabo, amacupa y'amazi, bambaye neza, baraberewe.

Hicaye abagabo, abakobwa imbere yabo hari ameza harambitseho impapuro hateretseho amazi, bambaye neza, umupira w'umukara, umuhondo, ubururu, kake, ijakete harasa neza.

Abantu benshi baricaye, barasa neza baraberewe, bambaye neza, hari ibara ry'icyatsi, umuhondo, hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ni heza, hari abantu bari imbere, hariho mashine, ni heza!

Abantu benshi bicaye ni beza, bambaye neza, barasa neza, intebe ni umuhondo harimo: umutuku, icyatsi ni heza harashimishije.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye barasa neza, ni ingeri zitandukanye, imbere yabo hari mashini, hateretse ameza, bambaye neza, baraberewe.

Abantu benshi, beza, bamwe barahagaze, abandi baricaye, bambaye neza, imyenda itandukanye, harakeye, hameze neza, harakwiye.

Abantu benshi bicaye beza, imbere yabo hari ameza, hariho amazi, hari intebe nziza, umwe arahagaze n'undi, bafite kamera bameze neza.

Mu nzu hari abantu benshi bicaye, umwe arunamye, imbere yabo hateretse ameza, hariho mashini, ni heza harashimishije harasa neza, harabereye.

Abantu babiri barahagaze, umwe arunamye, bambaye amajile, ingofero zitandukanye, ahagaze i ruhande rw'ipiloni inyuma y'igipangu, harasa neza, bambaye neza.

Ibiti, ibyatsi biteye neza birasa neza hari amafu atanga akayaga wicaramo ukanezerwa ukishima ni heza.

Umugabo uri kugenda imbere ya etage, igeretse ni nziza, iruhande hari ibyapa bitandukanye, bifite amabara meza, ubururu, umuhondo nibyiza birashimishije.

Abana beza, barasa neza, bambaye neza, imbere yabo hari ameza, hariho impapuro, ni heza, harashimishije, haratuje, harabereye.

Umuntu mwiza aricaye arasa neza, yambaye ikote, yisukishije inweri, ni mwiza, imbere ye hari ibitabo, hari ameza, hari rinete hari indabo ni heza.

umuhanda ni mwiza hashashemo amabuye hicaye abantu hateye ibiti hari inzu ndende ya etaje ni nziza iteye neza hari ikirere cyiza ni heza.

Abantu bane, ni abasore babiri, abakobwa babiri, baricaye, imbere yabo hari ameza, bateretseho mudasobwa, umwe muri bo ari gutunga urutoki muri yo ababwira ibyo bagomba gukurikiza.

Idarapo rirasa neza rifite amabara meza ubururu, umuhondo, icyatsi harimo inyuguti r e b Rwanda, izindi nyuguti ntizisobanuye ni byiza birashimishije.

Inzu nziza, irasa neza, ni nini, imiryango irakinguye, hari umuntu uhagaze, hariho icyapa, ibara ry'umuhondo, icyatsi, ubururu, ni heza, hashimishije.

Imodoka ihagaze hanze irasa neza ni umukara ni Rava hari amazu menshi yubatse neza harimo amabara atandukanye, ubururu bwerurutse, ibara ry'ikigina inyuma hari ibiti biteye harimo ibara ry'umutuku ni heza.

Hari abantu babiri bari kuri mashini, umwe ntabwo ari kuri mashini, umwe ari gukoramo arikwereka mugenzi we bambaye udupfukamunwa ashyize akaboko ku rutugu bose bambaye neza baracyeye bameze neza.

Icyapa kirimo amabara meza atandukanye umweru, ubururu, umuhondo, umutuku handitsemo inyuguti zidasobanuye ni heza.

Harimo ipoto ifite insinga nyinshi zigiye zifasheho insinga zirazamuye ni ndende hariho igicu, gisa neza ku mpande hari utwuma dufasheho.

Ni ifoto igizwe n'inkingi, insinga zigiye zifasheho, hariho utwuma twinshi cyane dutandukanye, hari n'ikirere cyiza, gikeye, hirya yaho hari ishyamba ubonako ko rimeze neza.

Abagabo benshi bahagaze ku muhanda inyuma y'igipangu, umwe yegereye igipangu, yambaye umupira w'umutuku, undi ahagaze imbere ye, ari kumureba, hari umukobwa, hari abandi bari imbere, barareba inyuma, ni beza, baraberewe.

Inzu nziza isize irange ry'umuhondo isakaje amabati ashaje, hari urukoma rwumye ni ishara, inyuma hari insinga z'umuriro zifashe ku ipoto, hari igiti gitoshye hasa neza.

Ipoto iriho itara, hariho insinga ziri hagati y'ibiti, birafashwe byose ntibigaragara neza, birasa nez, itara rirabonesha ukabasha kugenda habona.

Ipironi ni nziza ni ngari ndende hari igicu cyiza kivanze umweru icyatsi insinga zirambukiranije ni bibiri hameze neza ni heza.

Mu muhanda harimo icyapa ibara ry'umweru, umutuku, hari ibyatsi, amatara, ibiti, ku ruhande hari amazu, abamotari, imodoka, ni heza.

Mu kibuga harimwo iminara myinshi, imiremire, migufiya, hari ikirere cyiza, ni heza harasa neza, harimwo byinshi bitandukanye, ni heza.

Mu muhanda harimo abantu bari kugenda harimo abamotari iruhande rwab, hari igiti cyateye kizengurutswe n'indabo, harimo ipoto, hari n'insinga, harimo itara, hari inzu nziza niheza.

Abantu babiri, umwe arahagaze, undi aricaye, hari inzu nziza y'amatafari, ahiye, hirya hari inzu yubakishije amategura, atukura, hari ipoto, hari n'insinga nyinshi, ni heza, haraberewe.

Abagabo babiri buriye ku ipoto hariho itsinga bari gukora umuriro, buri wese akawubona agacana akareba ni heza haratunganye bose ubageraho.

Inzu nziza, ihagaze neza, yubakishije amatafari ahiye, hari ipironi, hari insinga, amadirishya y'ubururu, hateye ibyatsi byiza, hari insina nziza, harashimishije.

Ipoto ihagaze mu byatsi. Ni nziza, ni ndende, hariho insinga zitandukanye zitareba hamwe, hateye ibiti. Ni heza harashimishije.

Ibiti byinshi byiza, birasa neza, biteye neza, biratoshye, hari ipiloni, hari insinga, zitandukanye, ni heza, hameze neza, harashimishije.

Ipiloni ni nziza, ihagaze neza ahantu heza n'insinga nyinshi zisobekeranyije ziratandukanye zireba hamwe iruhande hari ishyamba ryiza rirasa neza riteye neza.

Abantu barahagaze, ni beza, bambaye neza, hari imodoka ni ebyiri nziza, zirasa neza, zifite umweru inyuma hateye ibiti, hari ipironi harimo insinga, ni heza.

Ipoto ni nziza, ihagaze neza, irakomeye, hari n'insinga z'umuriro zitandukanye, nyinshi, zitareba hamwe, nziza, zirakomeye.

Inzu nziza zubatse neza, ni mpande enye, iisakaja amategura, hanze ku kibuga hari umukobwa uhagaze, yambaye ishati, yambaye ijipo y'umweru hari akazu gahari, hariho icyapa cy'umuhondo, harasa neza hateye ibyatsi.

Ipoto iriho urutsinga rw'umuriro, hariho urusinga ruzinze ikizeru, hagati mu biti, n'igiti giteye, hari ikindi giti cy'amashami cyiza gitoshye, n'ibindi biti byinshi cyane byegeranye byose bimeze neza.

Ku muhanda hari ipoto ihagaze hariho amatafari, hariho insinga, hariho ibiti biyifashe irashyigikiwe cyane, ni iruhande rw'ishyamba ni ku muhanda neza.

Ipironi ihagaze neza iri mu ishyamba, hariho utwuma dutatu, hateretseho insinga z'umuriro, ni heza, ni mu ishyamba, harasa neza.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Abagabo barimo kubaka, bambaye amasarubeti, ingofero, barasa neza, umwe ari kurira urwego, undi arunamye, baraberewe, barasa neza.

Hari ibiti ibyatsi byinshi by'amabara atandukanye hari amazu menshi yakajagari, hari korutire mo hagati hateye ipoto hariho insinga ni heza harashimishije.

Mu gipangu harimo inzu isakaye igitwe kimwe, inyuma ku gipangu hari irangi ry'umweru, ku ruhande rwo haruguru ni amatafari asize irangi ricuye, hateye ibyatsi bya pasiparume, hari ruhurura, hari ipoto iriho insinga, ni heza.

Harimo amapironi, ni menshi, meza, insinga z'amoko yose, hari abantu bahagaze, ni bane, barashimishije, haratuje, hameze neza.

Hari inzu ifite amadirishya arakinze, isakaje amabati y'umutuku, isize irange ry'umuhondo, hari ipoto ziriho insinga nyinshi, hateye indabo harasa neza.

Hano hari abantu bunamye, umukobwa arunamye n'umugabo, ni beza, bambaye neza, bafite mverope mu ntoki, ishati, umupira, ni beza.

Busheri irimo abantu batandukanye. Harimo abacuruza inyama, abandi bagiye guhaha, barimo kubahereza, harimo indobo, imbere yabo hari ameza biteretseho, hari firigo, bambaye neza ni byiza.

Mu muhanda harimo imodoka nyinshi, nziza, zitandukanye, hari amazu, ni meza, arashimishije, asize amarange, asakaje amategura, ni pande enye, ni heza.

Hari urubaraza rufite inkingi, harasakaye ni heza, hari amazu menshi meza asize irangi, hariho amatafari ahiye, hari ibyatsi bihateye ,harimo ibiti, harasa neza.

Abantu batanu, beza, baratandukanye, bambaye neza, barasa neza, hari inzu nziza, hateye ibyatsi, hari agacucu, haratuje, hameze neza.

Abantu beza barahagaze iruhande rw'inzu nziza, yubatse neza ndende ya etaje, hari ibyatsi biteye neza, umuzenguruko, umuntu utwikiriye umutaka ni beza barashimishije.

Mu gipangu ni heza, hasa neza hateye ibiti, inyuma hasohotse imodoka nziza y'umweru, harimo amazu meza yubatse neza, harimo amabara atandukanye: umweru, umuhondo ni heza.

Inzu nziza nini ndende irageretse isize irangi, irasa neza, umweru, umukara ucuye w'igishonyi ni heza harashimishije.

Inzu ni nziza, kadasiteri, yubatse neza, ifite ibyatsi ku ruhande, irasakaye neza, ifite urubaraza rwiza, inkingi zihagaze neza, ni nziza.

Umukobwa uhagaze, yinjiye muri banke, hari akayira, kari kuruhande, hateye ibiti, bisize irange, iritukura, umweru, harasa neza, ni etage, irarageretse.

Ni heza, harashimishije, harasa neza, hasi imbere hashashe amatafari meza, hari imodoka y'umweru, ni ivatiri, irasa neza, hari umuntu, uri kugenda, ni mwiza arashimishije.

Mu kibuga harimo abantu bane hashashe amatafari ni heza umugabo afite akajerekani mu ntoki, haru umugore yambaye imyenda itukura afite amabara menshi, umwe arunamye undi arahagaze ni beza barashimishije.

Imodoka zirahagaze, harimo ibara ry'umweru, umutuku, ni nziza, hejuru hariho karisoro, ni eshanu, inyuma hari igipangu kirimo amazu, ni heza.

Kwa muganga ni heza, hameze neza, hari ibyatsi biteye byiza, hari n'uduti tw'indabo, hubatse neza, hasakaye neza, abarwayi bicaye neza, bari kwakirwa neza, ni beza.

Kwa muganga ni heza barakuvura bakakwitaho ukamererwa neza ukishima mu mubiri hakagenda neza abantu baricaye ni benshi barategereje abandi bari mu madirishya ni heza harashimishije.

Umugabo wicaye mu ntebe afite ikayi mu ntoki, arayirambura yambaye agapfukamunwa, yambaye imyenda y'abagororwa arasa neza; ni mwiza.

Abantu batatu bahagaze umwe arafunze, yambaye amapingu, imyenda yabugenewe ni abasoloviya barasa neza baraberewe.

Mu nzu hicayemo abantu batatu, imbere yabo hari ameza, hateretse amazi, hariho impapuro, yambaye amakote, umukobwa afite amaherena, umusatsi natirere, rinete, ni byiza.

Abantu bahagaze bambaye neza, barasa neza, yambaye rinete, ingofero, isarubeti ry'umuhondo, kuruhande nta bandi bantu bari hirya, ni heza harashimishije.

Abantu babiri baricaye, bambaye neza, ikote, ishati, umumama yambaye rinete, umugabo baramwiyegamije, barasa neza, baraberewe.

Abagororwa ni beza, bambaye neza, harimo abasoroviya, hari kamera, hari ipironi iri mu ibara ritukura, inzu yubatse neza irashimishije.

Abantu benshi baricaye, imbere yabo hari amabendera atandatu, imbere hicaye abagabo bambaye ingofero n'imyenda itukura, bicaye neza, barasa neza.

Umugabo wambaye neza ikote ishati y'umweru karuvati rinete ku ikoti hariho umukara, arasa neza, arakeye, aratuje.

Icyapa giteye mu ishyamba, ni cyiza, ni kinini, kirasa neza, hicaye abantu, batunze intoki hejuru abandi barahagaze, birakwiriye, hashimishije.

Umukobwa mwiza, yambaye neza, ahagaze neza, afite imisatsi myiza, yambaye rinete nziza, ingofero, umwenda utukura, arakeye, ni mwiza.

Abantu benshi beza basa neza bambaye neza ingeri zitandukanye abagabo, abagore bicaye bari mu nama haruhagaze ni heza.

Bari mu nteko bicaye neza, benshi cyane bahari harimo umugabo uhagaze, bitwikiriye imitaka harimo amabara y'icyatsi, harimo ibara ry'ubururu , umuhondo n'umutuku imbere yabo hari inzu isakajwe amabati ya mande enye.

Umugore mwiza, yambaye neza, araberewe ikanzu y'umutuku harimo umukara, umweru, umusatsi natirere, arasa neza araberewe.

Abagabo benshi barahagaze abandi baricaye, bambaye neza, barasa neza, amakanzu n'icyumba cyabacamanza, hameze neza harashimishije.

abagabo babiri bahagaze bafite igitabo mu ntoki, bambaye karuvate, ishati, ikote, barasa neza, bafite umusatsi mwiza, inyuma yabo hari ibyuma bacuranga, ni byiza.

Abantu baricaye ni benshi, beza barareba imbere, bambaye neza, barakeye, bameze neza, imbere yabo hari ameza ateretseho sanitayiza, amazi harakeye.

Abagabo benshi bicaye, abapolisi bo baririku bambaye imyenda y'icyatsi, bubitse imitwe abandi bari kureba imbere, bambaye neza, baraberewe.

Abantu benshi bicaye barasa neza bambaye neza ni ingeri zose abagore, abakobwa, abagabo hateretse ameza harambitsemo impapuro umugore arahagaze ni heza.

Umugore mwiza arasa neza, yambaye neza, ikanzu, hari mo ibara ritukura, umukara, umweru, yambaye rinete, umusatsi wa natirere arakeye.

M'umuhanda harimo imodokari ebyiri imwe iri hakurya indi iri hakuno ni ndende irasa neza hagati harimukindo uteye haribyatsi ni heza harashimishije.

Imodoka ebyiri zirahagaze ni nini, imwe irapakiye, iruhande rwayo hari inzu, inyuma hari igiti, ni heza harasa neza, ifite ibara ry'umweru n'ubururu, ni ryiza.

Muhima ni heza hari inzu nziza ndende etaje hasi hari imodoka hari abantu baratandukanye ni nziza zirashimishije ni heza.

Abantu benshi umwe arahagaze afite bomboni mu ntoki, inyuma ye hari ameza yambaye isarubeti, agapfukamunwa, abari imbere ye bambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kacye barasa neza.

Igipangu ni cyiza, inyuma harasa neza, hasashe amatafari, hari ibyuma bihakorotiriye, imbere harimo imodokari nziza harashimishije.

Inzu nziza umuryango urakinze. Harasa neza. Ni etaje. Irageretse. Abapolisi babiri bahagaze ni beza barashimishije.

Mu muhanda hashashe amabuye, hari imodoka nyinshi, kaburimbo irashaje, harimo amazu menshi, hari ibiti byiza, bihagaze neza, birashimishije.

Abantu benshi baricaye, bambaye neza amakote, amashati, umwe atunze urutoki baraberewe barasa neza ni beza barishimye.

Abantu benshi bari mu muhanda, bamwe bari kugenda inyuma abandi bari kugaruka imbere, bambaye neza, barasa neza, harimo umwana mwiza baraberewe.

Abantu bane bicaye mu nama, barareba imbere bose, imbere yabo hari ameza, hateretse amazi, hariho mashine, bambaye amakote, umwe yifashe ku kananwa ari kureba imbere, ni beza.

Abantu babiri, baricaye, barasa neza, barashimishije, bambaye neza, ubururu, umutuku, rinete, umusatsi mwiza, imbere yabo hateretse amazi, mashine, ni beza.

Abantu bicaye batandukanye abagore abagabo, imbere yabo hari mashine amazi biteretse ku meza inyuma yabo hari amabendera atandukanye amabara ni beza baraberewe.

Abantu benshi bicaye barasa neza, bambaye neza ikote, karuvate, ishati, kandi barakenyeye arasa neza imbere yabo hari ameza hariho mashini niheza.

Abantu batatu bahagaze abandi baricaye, hirya hari undi hari amazu menshi, ni heza, inyuma hari intebe, ameza, hariho igitambaro, inyuma hari icyapa hashushanyijeho umuntu afite mikoro mu ntoki ni heza hashimishije.

Umudamu ari kumwe n'abana babiri yambaye neza aracye, abana bambaye neza barakeye, bakuyeho rido bari gusohoka bahagaze neza bameze neza.

Hari abantu batatu bicaye mu cyumba cy'amatora, harimwo abagabo babiri n'umukobwa hateretse ameza imbere yabo hariho mikoro imbere hari impapuro z'amatora ni beza barashimishije.

Abantu benshi barahagaze, barasa neza, ni beza, barashimishije, bambaye imyenda y'umweru, ni beza, bafite igishushanyo mu ntoki cy'igipfunsi, ni cyiza, barashimishije.

Abantu bahagaze ni benshi ni ingeri zitandukanye, abagore, abakobwa, abagabo, bamanitse amaboko, bafite amadarapo, ni beza.

Abantu babiri ni beza, bambaye neza, barasa neza, afite urupapuro mu ntoki ari kurushyira mu gikapu, inyuma ye amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, ni heza harashimishije.

Harimo abantu benshi bambaye neza bafite ingofero, amadarapo, barimo baramamaza, bameze neza barishimye, baranezerewe ni ibintu by'igikundiro bishimishije.

Abantu benshi bahagaze, bateye intambwe, bafite kamera mu ntoki, hari ibara ritukura n'umweru, bambaye neza, ishati, ipantaro, umupira ni beza.

Abantu benshi bahagaze abagore, abagabo bambaye neza, bafite impapuro z'amatora, bagiye kwinjira mu cyumba, baratora neza, baraberewe.

abantu benshi bicaye Ingeri zitandukanye, barasa neza baraberewe, amatara imbere yabo hateretse ameza, hariho amazi mashini ni heza.

Paul Kagame yambaye neza, arashyigikiwe, ni umugabo mwiza, akunda abaturage be, arabafasha, akabazamura, hari abantu benshi, ari hagati y'abapolisi bose.

Umugabo wicaye yambaye karuvati ishati, ikote, iruhande rwe hari amadarapo menshi, akanuye amaso cyane, arasa neza arareba.

Kagame Paul ni umugabo mwiza, yambara neza, ufasha abaturage akabitaho, ameze neza ateye neza, iruhande rwe hari abagabo beza, bashyigikiye umugabo Kagame mwiza, wemera abaturage be, ukabitangira muri byose, ni mwiza.

Abantu bane bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho mikoro; hari amacupa y'amazi, ni heza, harashimishije, ibara ritukura, umuhondo ucuye, haratuje, hameze neza.

Umugabo usa neza, yambaye neza, yambaye linete, ikote, karuvati, ishat, afite natirere, imbere ye hari mikoro.

Kagame Paul ni umugabo mwiza, ariyubaha, akubaha, agira indangagaciro z'umunyarwanda. yubaha abanyarwandakazi, akabakunda, hagati hari igiseke, hari umugore, hari amabendera abiri, ni beza.

Umumama yicaye neza, ari mu ntebe, ni inzobe, aramwenyura gakeya, afite umusatsi wa natirere, imbere ye hari mikoro, ni mwiza.

Umukobwa wicaye mu ntebe y'idiva, yambaye neza ishati, ikote, ni inzobe, afite umusatsi wa natirere, arasa neza.

Umugore wicaye arasa neza, yambaye neza ari guseka, mu ntebe ni heza, imbere ye hateretse ameza, hariho mashine ni heza.

Paul Kagame ari mu cyumba cy'amatora, afashe urupapuro agiye kurushyira mu gasanduku, ni umugabo avuga ibikwiye bisobanutse, ateza abaturage imbere, abaha amabwiriza meza, abakoresha neza kandi mu kinyabupfura ni byiza.

Abantu benshi bambaye neza, barasa neza, ingeri zitandukanye, abagabo, abagore, bambaye amashati, amakote, amapantaro, amakanzu. Ni beza.

Umugabo wambaye neza ikote ry'ubururu karuvati yubururu, shati y'umweru ariyogoshesheje ari guseka arareba aratuje ni mwiza agaragara akeye.

Paul KAGAME arasa neza, ni umugabo yambaye neza, hari bagenzi be bahagaze iruhande rwe, abagore ni beza barashimishije n'ab'igikundiro, ni benshi baratuje.

Akaboko keza afashe ikaramu ari kwandika, ni nziza, yandika neza, hejuru hari igishushanyo cy'ibara ritukura n'umukara birakeye.

Umuhanda ni heza harimo isuku imodoka nziza abamotari, ni beza bambaye neza ku ruhande hari umugenzi uhagaze hateye ibiti ni heza.

Imodoka iri mu muhanda hari amagare abiri arahetsa abagenzi, ni heza ifite ibara ry'umweru harimo umutuku ni heza.

MU muhanda harimo imodoka, y'itoyota, harimo umumotari, ahetse umugenzi, harimo igare, ririho umuntu, hakurya y'umuhanda, hari abantu babiri bagenda n'amaguru, hateye ibiti, ni heza, harashimishije.

Mu muhanda ni heza, harimo imodoka y'indayihasu nziza, ifite ibara ry'umweru, umuhondo, icyatsi, umweru, umutuku, ni heza. Hakurya hari ibiti biteye neza, ni byiza.

Mu muhanda harimo igare rirahetse, utwaye yambaye umupira w'umuhondo, utwawe yambaye ubururu ni mwiza arashimishije, harimo imodoka y'ikamyo ni ndende ku mwaro hateye ibiti ni heza.

Imodoka iri mu muhanda irapakiye ni umweru, irasa neza, irakeye, harimo umushoferi uyitwaye.

Mu muhanda, ni heza, hasa neza, hari isuku, harashimishije, hari imodoka, nini, nziza, ndende, ni umweru, imbere harimo n'umushoferi, hakurya hari ibiti, ni heza.

Moto iri mu muhanda ifite amapine atatu, harimo umushoferi yambaye imyenda y'ubururu, irasakaye, irasa neza, inyuma ni ndende, ni gari, itwara imizigo ikayijyana ahantu uyitumye aho ariho hose.

Ikamyo iri mu muhanda, ni umweru, irapakiye, harimo shoferi, inyuma hari abamotari, bari kugenda, hari abagenda n'amaguru, ni heza, hashimishije.

Imodoka ebyiri zihagaze ni nini cyane zirasa neza harimo ibara ry'ubururu, umweru, umukara zirashimishije zigenda neza zitwara abantu benshi.

Mu muhanda harimo imodoka iri kugenda iruhande rwayo hari umuntu uri gutambuka harimo shoferi ifite ibara ry'umweru, umuhondo, inyuma hari inzu yubatse neza ifite amadirishya asize irangi ry'icyatsi ni heza.

Mu muhanda harimo imodoka y'ikamyo, ni umweru, irapakiye, hari moto, abagabo bari kugenda, ni heza, harashimishije, hameze neza, haratuje.

Imodoka mu muhanda ni nziza ni ndende harimo abagenzi, ifite ibara ry'umweru icyatsi hafi yaho hari aba motari harashimishije.

Imodoka nziza ya ritiko ihetse abantu iri mumuhanda, iruhande rwayo hari motari ahetse umugenzi; inyuma hari abandi bamotari barimo kugenda harasa neza.

Mu muhanda harimo abagenzi benshi beza, amatara aracanye, harimo imodoka icanye amatara maremare, ni heza harashimishije haraberewe.

Imodokari ziri mu muhanda ziriku kugenda imwe iramanuka indi irazamuka, ni indayihatso, iratwikiriye, harimo umumotari ahetse umugenzi undi nta we ahetse barimo baragenda.

Imodoka iri mu muhanda itwara imizigo ni indayihatsu, iruhande rwa ruhurura itwara imyaka, igenda hirya no hino ikora neza imirimo yose.

Imodoka ziri mu muhanda, Toyota irapakiye, iratwikiriye, shitingi y'icyatsi, harimo ibara ry'umuhondo, ibara ry'umukara, imbere hari imodoka z'ibikamyo zifite ibara ry'icyatsi, ni nziza.

Hari imodoka ihagaze y'umweru kwasiteri imeze neza harimo abagenzi abandi barahagaze ni benshi hari icyapa kiriho ibara ry'umuhondo ni heza.

Mu muhanda harimo imodoka ritico ni nziza, irasa neza, ifite ibara ry'icyatsi, umuhondo, umweru, hafi yayo hari umukarani yikoreye amakara, ni heza.

Abamotari benshi bicaye kuri moto zabo barahagaze bari kureba bitegereza, bambaye neza, imyenda isa amajire barasa neza.

Imodoka iri mu muhanda ni ikamyo, irasa neza n'umutuku irapakiye umucanga, hariho shitingi, hari igare inyuma hari ibiti, niheza.

Imodoka irahagaze ifite ibara ry'umweru, ubururu hari abantu batatu bahagaze iruhande rwayo, inyuma hari abandi bantu benshi n'izindi modoka ni nziza.

Imodoka nziza, nini, ndende, ni ikamyo, zirasa neza, harimo ibara ry'ubururu, umweru, umuhondo, niheza, hameze neza, ku ruhande hateye ibiti, ni heza harashimishije.

Abantu babiri bari kugenda, imbere yabo hari umukobwa yambaye ikanzu, arasokoje umusatsi muremure, iruhande rwabo hari akazu gahagaze gasize irange ry'mweru, urugi ni icyatsi, harakorotiriye, imbere hari imodoka, imbere y'imodoka hari ibiti harasa neza.

Motari yambaye neza, yambaye jiri, afite kasike ebyiri, purake, umunani, karindwi, gatandatu, RF M ni byiza birabereye.

Imodoka nziza iri mumuhanda ni ikamyo irasa neza, ni umweru hariho icyapa, hakurya hari ibiti biteye, harakorotiriye ni heza, harashimishije.

Imodoka iri mu muhanda ni ikamyo iri iruhande rwa ruhurura, hakurya hari ibiti biteye, ni nziza, ni umweru, inyuma ni umutuku, irasa neza.

Imodoka iri mu muhanda, irasa neza ni umweru, irapakiye, indayihastu, hakurya y'umuhanda hari umuntu ugenda n'amaguru afite agakapu, hateye ibiti, niheza.

Mu muhanda hari imodoka nini ndende y'umweru, ni nziza harasa neza, inyuma hari izindi nyinshi ni heza haratuje.

Mu muhanda harimo ikamyo, irapakiye, iratukura, iruhande rwayo hari ibara rihari ry'icyatsi, hari ibiti, arasa neza, harakeye ni nziza.

Moto ziri mu muhanda ebyiri, ni nziza, hariho abamotari, umwe arahetse undi ntahetse, hakurya ku ruhande hateye ibyatsi, ni byiza, ibiti ni byiza inyuma harakorutiriye, imbere ni heza harashimishije.

Bumwe mu buryo busigaye bworoshye cyane mu kwikorera imizigo, hakoreshejwe amapikipiki, afite akanyabiziga inyuma gashyirwamo imizigo. Ni bwo abantu benshi basigaye bakoresha, aho mu kwimura ibintu cg se gupakira ibintu bisigaye bikorerwa kuri ayo mapikipiki.

Mu muhanda ni heza, hasa neza, harimo abamotari benshi, imodoka nziza nyinshi, zitandukanye, hateye ibiti, ku ruhande hari abagenzi ni heza.

Mu mujyi hari amazu menshi meza maremare ageretse, kadasitere, harimo abantu batandukanye, motari ari kuri moto, arasa neza araberewe.

Abantu batatu bicaye, bambaye neza, iruhande rwabo hari inzu nziza, ndende, hateye ibyatsi, ni heza, harashimishije, haraberewe.

Inzu nziza ihagaze neza ni nini ndende isakaje amabati atukura impande ebyiri irasa neza hateye ibiti ni heza harashimishije.

Icyapa ni cyiza, kirasa neza, ni impande eshatu, gikase neza, harimo umweru, umukara, ni cyiza, kirashimishije, kirabereye, ni heza.

Mu muhanda ni heza harimo abantu, imodoka ku ruhande hateye ibyatsi, harimo icyapa, ni heza, hari ibiti harashimishije.

Ku muhanda ni heza, hasa neza, hari ibyapa byinshi by'amabara atandukanye, harashimishije, hateye ibyatsi byiza, haranyuzwa amaso ni heza.

Icyapa cyabagenzi feruje kirerekana imodoka zigomba kunyura zigahagarara mugenzi akambuka amasegonda ari kubara ni byiza.

Icyapa kirahagaze imeza irasa neza, mu ibara ritukura, umweru, umukara; ni byiza birashimishije.

Icyapa cyiza, kirasa neza, kirashimishije, ni impande eshatu, harimo utudomo dutatu, umutuku, umuhondo, icyatsi, hasi ni umukara, hameze neza, harashimishije.

Icyapa kiza gikase mpande enye harimo amabara atandukanye, umweru ubururu handitsemo inyuguti ya ni umweruru ni nziza.

Icyapa kizengurutswe n'ibara ritukura, hagati harimo umukara n'umweru, hariho akamenyetso ka mpande ebyiri, gakase nka ve, ni keza karashimishije.

Mu muhanda harimo icyapa cyerekana uko bagomba kwambuka, iburyo cyangwa se ibumoso ukagenda neza witonze hari amatara ameze neza iruhande rw'umuhanda hari ibiti harakeyeye.

Inzu yubatse isize amarangi y'umuhondo, imbere hari icyapa ku muhanda cya mpandeshatu, umuzenguruko ni umutuku ubuso ni umweru, ikindi cya mpande enye, cyerekana ko abanyamaguru, hafi aho ngaho ariho bambukira.

Ku muhanda wa kaburimbo harasa neza, harimo ibara ry'umukara, umweru, ku ruhande hari ibyatsi, harimo icyapa, inyuma y'icyapa hari urukuta rwubakishije amabuye, inyuma y,amabuye, harakorotiriye, hari ibiti, ni heza.

Inzu nziza ya etage ni ndende, ihagaze neza, hari abagabo bahagaze imbere bafite icyapa hariho nimero mirongo itandatu, niziza irashimishije.

Icyapa kimeze neza, gihagaze neza, ni mpande eshatu, harimwo abantu babiri bari gutambuka, harimo ibara ry'umweru, hateye ibiti, barasa neza, baraberewe.

Icyapa cyiza cy'umuzenguruko harimo mpande enye ibara ritukura ubururu ni cyiza kirashimishije giteye ubwuzu ni heza.

Ibimenyetso bitatu bitandukanye, bibiri birareba hejuru, kimwe kirareba hasi hakase mpande enye ni byiza birashimishije.

Ku muhanda ni heza, hasa neza, hari isuku, iruhande hari ibyatsi, biteye neza, bisa neza, harimo imodoka, hari icyapa, ni heza, harashimishije.

Icyapa gihagaze neza, kirasa neza, hari ibara ry'umuzenguruko ritukura, hagati handitsemo umubare mirongo itatu, hepfo hari ikindi gikase impande enye, ni heza harashimishije, hateye ibiti, ni heza.

Imodoka nziza iri mumuhanda irashimishije iruhande rwayo hari umuntu uhagaze mu byatsi, hari ibyapa handitsemo amagambo urugendo ruhire, hirya ye hari abantu bahagaze ni heza harashimishije.

Inzu nziza ndende ngari, isize irange, umweru risa n'ivu, harasa neza, haraberewe, hari ibiti byiza, hameze neza harakeye.

Inzu nziza yubatse neza ni ndende, ni etage irageretse, ifite urubaraza, amadirishya, ni heza haratuje.

Abantu benshi barasa neza, ni ingeri zitandukanye, hari amazu meza, yubatse neza, ni heza, harashimishije, hateye neza, harakwiye, hararyoshye.

Abamotari batatu bari mu muhanda wambaye kasike, umwe arahetse n'indi arahetse, inyuma hari undi, hari abagabo babiri bahagaze harimo igiti cy'umukindo hameze neza.

Amazu menshi, meza, atandukanye, manini, magari, arasakaye, amategura, impande enye, inyuma hari asakaye igitwe kimwe, hari ibiti byiza byinshi, ni heza, harashimishije.

Inzu nziza ziraberewe, zubatse neza, zisize irange ritandukanye, ni nyinshi ,ni etaje, ni heza, harashimishije, ni ah’igikundiro.

Amazu meza menshi atandukanye, asakaje amabati, amategura, kadasitere igeretse, ni meza, arashimishije.

Mu muhanda ni heza, hameze neza, hasa neza, hari isuku, ku ruhande hateye ibyatsi byiza, hari inzu nziza, ngari, nini, isize irangi, amadirishya menshi, hariho icyapa, ni heza.

Umuhanda ni itaka ntusize ni heza hara amazu, ku gipangu inyuma hari ibyatsi biteye amazu ni maremare, ni etaje arageretse ni heza hateye ubwuzu.

Inzu nziza, ihagaze neza, hari umuryango uri ku ruhande, hateye ibiti mu mbuga, hashashemo amatafari, harasa neza, hari agacucu, hari intebe, ni heza.

Amazu menshi arasa neza, arasakaye, amategura, amabati, impande enye, harimo ibiti, hagati harimo imihanda, ni heza, harashimishije.

Inzu nziza ndende, isize irangi ry'umweru, irindi rirasa n'ivu, ni heza, hasa neza, hanze hari imodoka, ziraparitse ni nziza, hari amatafari ashashe, ni heza.

Inzu ndende nziza ya etage irasize irange, amatafari ahiye, hari insina, hateye ibiti, hari umugabo uri inyuma y'igipangu, ni heza inzugi zirakinguye harashimishije.

Inzu nziza ndende ngari isize irangi ry'umweru kake, harimo icyatsi imodoka zirahagaze, hari abantu ni heza harashimishije.

Inzu nziza nyinshi, nini, ngari, z'ubwoko bwose, nka mpande enye, mpande ebyiri, zubatswe kimwe, ni heza, harashimishije, haratuje.

Amazu menshi yubatse neza, hari ageretse haratageretse, ibisenge biratukura, ibihateye ibiti ni heza, haragaragara, hararatunganye, habereye amaso ahareba.

Ku muhanda ni heza, hasa neza, hari amazu menshi, atandukanye meza asize irange, hateye ibiti birasa neza, biratoshye, hari icyapa, ni kiza, haratuje.

Ni heza harasa neza harimo ibiti ibihuru hari ibyatsi by'amoko yose iruhande imbere hari inzu nziza ndende me etage ni nziza zirageretse harimo amadirishya zifite amabara atandukanye ni heza.

Mu muhanda harimo imodoka iri kugenda y'ivatiri nziza iruhande hari inzu ya etaje igeretse, hafi yaho hari igipangu cy'ubakishije amatafari ahiye imbere harimo igiti giteye harasa neza.

Parike Nyandungu, ni heza, harashimishije, harimo ibiti biteye, hari abantu babiri bahicaye, bambaye neza, umwe yambaye umupira w'umweru, undi ni umuhondo, barasa neza.

Mu muhanda harimo imodoka nyinshi, ziri kugenda, kuruhande hari ibyatsi, hateyemo ibiti, hahagazemo icyuma, hari icyapa kirimo ibara ritukura, ni heza harashimishije.

Umuhanda mwiza urambuye kuruhande hateye ibyatsi hari ibiti imbere hari kaburimbo hakurya hari amazu meza hari ipoto niheza harashimishije.

Mu muhanda wo hagati hateye ibyatsi, hashinzemo igiti gisize irange ry'icyatsi, umweru. Ku ruhande haparitse abamotari, hateye ibiti, imbere y'ibiti hari amazi ni heza.

Mu muhanda harimo imodoka, motari arasa neza, barahagaze, mu nzira y'abagenzi harimo ibara ry'umweru, kuruhande hateye ibiti, harasa neza harashimishije.

Umuhanda ni mwiza, muremure, hasa neza, hateye ibiti, hari ibara ry'umuhondo, umweru, umukara, harashimishije.

Umuhanda harimo imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, bari hagati muri feruje, icyapa kiri kubereka aho bagomba guca, iburyo n'ibumoso, baragenda neza.

Ku muhanda harimo amagare, moto, imodokadoka, ni heza harashimishije, hahagaze umuntu ku ruhande, hateye ibyatsi, ni heza harashimishije.

mumuhanda hasa neza uteye neza hari ibiti kuruhande nibyiza hari abamotari imodoka yi toyota irapakiye niheza harashimishije.

Mu muhanda harimo abamotari, barimo baramanuka abandi barazamuka, imbere y'uzamuka hari ikimodoka kinini cy'igikamyo gihetse imizigo, ku ruhande hakurya y'umuhanda hari abagore bari kuzamuka umwe yambaye ibitenge undi yambaye ikanzu barasa neza.

Mu muhanda ni heza, harakeye, hafite isuku, ku ruhande hateye ibiti, harakorotiriye, hari icyapa gisa neza, hari imodoka ziparitse, ndende, nini, ni nziza, harashimishije.

Mu muhanda ni heza, harasa neza, hameze neza, harimo isuku, hari abantu bari mu muhanda, hateye ibyatsi byiza, ibiti, ni heza.

Ikiraro cyiza, kimeze neza, ni ku muhanda, hejuru haca imodoka, no hasi harimo umuntu uri kugenda, ni heza, harabereye, harashimishije, haratuje.

Ku muhanda hari abamotari benshi, bambaye neza, hari amazu menshi ,ni meza, hari inzira y'abagenzi, barahagaze, ni heza.

Mu muhanda, ni heza, hasa neza, hafite isuku, harashimishije, hateye ibyatsi, harimwo moto, imodoka, abantu bari kugenda, ni heza harashimishije.

Ni ku muhanda wa kaburimbo ni mwiza iruhande hashashe amatafari, hafi yaho hari amazi meza, hari ibiti biteye ku muhanda biragaragara neza ku mazi birasa neza.

Hari abamotari batatu, bose hamwe barahagaze, hari umukobwa barimo kuvugisha agiye gutega bose hamwe barimo kubazanya.

Kaburimbo irimo abantu bari kugenda mu nzira y'abagenzi, hari abamotari babiri bari kugenda, amatara aracanye, ku muhanda hateye ibiti, umupolisi n'umugenzi bahuriyemo hagati, ni beza.

Mu muhanda harasa neza hari isuku harimo imodokari, moto, hari icyapa zirahagaze muri feroje inzira y'abagenzi nta muntu urimo, harasa neza.

Amatafari yubatse, arasa neza, ashashe neza, ateyeho pasiparume, zirasa neza, ni jaride nziza umuntu yakwicaramo akamererwa neza.